Abantu benshi bicaye, abandi barahagaze, imbere hari umumama wambaye umupira w'umutuku, witeze igitambaro cy'umukara, inyuma yabo hari inzu ifite amabati y'umutuku, hari idarapo ry'u Rwanda, hari imodoka ifite ibara ry'umweru, hari n'igisharagati cy'umweru.

Abantu batanu bambaye imipira isa ubururu, imbere yanditseho amagambo y'umweru, bambaye n'ingofero z'umweru, bazamuye ibipfunsi, inyuma hari igitambaro cy'umweru cyanditseho amagambo, amadirishya abari inyuma asa umukara, n'inyuma hari ibirahure.

Abantu babiri bicaranye, harimo umwe ufite igitabo uri kwandika aganira na mugenzi we, uw'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki, uw'umugore wambaye agapfukamunwa ufite terefoni mu ntoki, wambaye ishati y'umweru, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo asa umukara n'ay'umutuku.

Ibara ry'ubururu ryandikishijweho amagambo y'umweru imbere, harimo n'ay'ubururu, n'ay'umuhondo, inyuma hariyo igishushanyo cy'inzu ya etaje isize ibara ry'umuhondo, hejuru hariyo ibirahure bisa ubururu.

Ibara ry'umweru, ryandikishijweho amagambo y'umukara, hejuru hariho ahanditse n'amagambo y'umukara atsindagiye, hagiye haciyemo uturongo tugiye dutandukanya buri gika ku gika.

Abantu bicaye, bafite ibitabo, bambaye amataburiya asa ubururu, bafite imisatsi y'umukara, harimo uwambaye igitenge gisa umutuku, hari n'uwambaye igitenge gifitemo ibara ry'ubururu, amadirishya afite ibara ry'icyatsi, idirishya ry'inyuma rirafunguye.

Umwana uri guseka wambaye umupira w'umutuku ufite igikombe gisa umuhondo uri kuvoma kuri robine ebyiri, hirya hari ibyatsi bisa icyatsi, imbere yaho hari igikuta kirimo izo robine ziri kuvamo amazi.

Itiyo iri kuzana amazi hasi hari amazi menshi hari umuntu washyizeho akaboko uri gukaraba intoki, ku ruhande hari ibyatsi hari n'amabuye hari n'irindi bara risa umukara riri inyuma yaho.

Abantu benshi bicaye hamwe, bambaye imipira isa y'umweru bose, harimo abambaye ingofero z'umweru, n'uwambaye ingofero isa umutuku, bose bigaragara ko bari mu nama, hari umuntu uri kubabwira ibintu runaka.

Abana bane n'umugabo umwe bari guseka, bari gukaraba intoki, uwo mugabo ni we uri kubakarabya, afite igikombe gisa ubururu n'ibase ya oranje.

Abagabo batanu, babiri bari gusuhuzanya, undi umwe wambaye amarinete ari kubasekera, n'umuzungu uri kumwe n'undi mugabo bahagaze inyuma, inyuma yabo hariho igishushanyo cyanditseho amagambo gisa umweru.

Umugabo uri gukingira umwana

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'umuhondo hasi zifite ibara ry'ubururu inyuma yabo hari ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo y'umweru hejuru hasize irangi ry'umweru hasi hari ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahagaze, inyuma yaho hasize irangi ry'umweru, hari n'amakaro asa shokora, ku ruhande hari igishushanyo gifite ibara ry'umweru ririmo n'ubururu, handitseho amagambo imbere, hariho n'ibishushanyo by'abantu bicaye bari mu nama.

Ibara ry'umweru ryandikishijeho amagambo y'umukara, hirya harimo umurongo usa ubururu hari n'indi mirongo myinshi y'ubururu ishushanyijeho umwana, undi ushushanyijeho umuryango, undi ushushanyijeho umugore utwite.

Abana barikoza amenyo bambaye imyenda isa ubururu, umwe afite uburoso hejuru busa umuhondo undi amuri inyuma arikoza amenyo afite uburoso busa ubururu n'inyuma yabo hari uwundi wambaye ishati y'umweru na we ufite uburoso busa ubururu.

Abantu babiri bari kumwe, uwambaye ga yambaye n'agapfukamunwa ufite n'urushinge, hari n'undi uryamye ufite imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara, inyuma yabo hari akabati k'umweru.

Abana bambaye impuzankano yo ku ishuri, bari kuborosa amenyo, bafite udukombe turimo amazi, kamwe gasa umuhondo akandi gasa ubururu, uburoso bafite busa ubururu.

Abana bicaye mu ishuri, bambaye impuzankano y'ishuri, bazamuye amaboko hejuru, bafitemo umuti woza amenyo, imbere hari igikapu batwaramo amakayi cy'umukara.

Abantu babiri bari kumwe, bambaye imipira isa y'umweru, bafite akagozi k'umweru bari gukoza mu kanwa, umwe afite imisatsi myinshi y'umukara, undi ariyogosheje, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara rya shokora.

Umusaza n'umukecuru bari guseka, bafite imisatsi y'umweru, umusaza yambaye impeta, yambaye n'umupira w'umweru, bari kunywa amazi, bari kurya imboga n'imbuto.

Abantu bari kugenda mu muhanda, abakecuru babiri bambaye imipira y'umutuku, bafite utubando, inyuma yabo hari umwana wambaye umupira w'umweru, wambaye na bodaboda z'umuhondo, hari n'umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ijipo y'umutuku n'inkweto z'umuhondo.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza asa shokora, ufite isaha ari gukoramo, yambaye ishati isa kaki, afite umusatsi w'umweru urimo n'umukara...

Umukecuru uri gukora siporo, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye umupira usa ubururu, imisatsi ye ni umweru, inyuma ye hari itara rirerire risa umweru, hari n'intebe zisa umweru, yicaye ku itapi isa umukara.

Umukobwa n'umucecuru bari kumwe umucecuru ari gukata imboga yambaye rinete bari guseka, umukobwa ateruye itasi y'isahane hirya y'umucecuru hateretse inyanya ebyeri hari na karoti yamaze gukata.

Abantu bahagaze bashyize amaboko h ejuru

Abamama bari gusarura icyayi, umwe yambaye imyenda y'ubururu, yiteze n'igitambaro cy'ubururu, undi yambaye umwenda usa move, yiteze igitambaro cy'umutuku, inyuma yabo hari igitebo, hari n'undi mumama witeze igitambaro cy'umukara.

Umukobwa n'umusaza bari guseka, umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, umusaza wambaye ishati y'umutuku, inyuma yabo hari amadirishya afite ibara ry'umweru, bicaye mu ntebe.

Abantu bishimye bazamuye amaboko, inyuma yabo hari igishushanyo kiriho amagambo y'umweru, gifite ibara ry'icyatsi n'iry'umutuku ku ruhande, hari intebe z'umutuku, hasi hariho amapave.

Abantu batandatu bambaye imyenda y'umweru n'amarinete, bambaye n'udupfukamunwa na ga, inyuma yabo hari umugabo wambaye umupira usa move, wambaye n'agapfukamunwa, inyuma ye hari amadirishya asa icyatsi.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru bafite imisatsi y'umukara, imbere yabo hari umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara hari igishushanyo cy'umutuku kiriho amagambo asa umukara.

Igishushanyo cy'umweru cyanditseho amagambo, hirya harimo imirongo yigoroye, irimo icyatsi, umweru, ubururu, umuhondo na oranje n'umukara.

Igishushanyo gisa move cyanditseho amagambo y'umweru imbere, hirya hahagaze umuganga w'umugore, wambaye igitambaro mu mutwe gisa ubururu, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye imyenda yo kwa muganga isa umweru. Yambaye n'aka kantu ko mu ijosi bapimisha abarwayi.

Inzu ndende y'umweru yanditseho amagambo y'umukara imbere ihagazeho umuntu imbere wambaye umupira w'umuhondo wambaye n'ijipo isa umutuku, hirya hari intebe y'icyatsi hari n'umuryango w'umukara usize ibara ry'umweru.

Inzu bivurizaho ifite amadirishya asa umweru hejuru amabati asa ubururu, hari ibyapa bibiri bifite ibara ry'umweru byandikishijweho amagambo y'umukara, ahandi handikishijweho amagambo y'ubururu hariho n'ijisho, hanze hari indabyo zisa umuhondo.

Abarwayi bari kwa muganga babiri, bambaye ibintu ku mazuru bibafasha guhumeka, umwe aryamye ku gitanda gisasheho ishuka y'umweru, undi na we aryamye ku gitanda gisasheho ishuka y'umweru, ibitanda biri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibara ry'ubururu hari n'icupa ry'amazi.

Inzu ndende ifite amabati asa umutuku, hejuru hariho akazu gafite ibara ry'umweru, hanze hariho igitambaro kiriho amagambo, ifite amadirishya y'umweru, hanze hari imodoka hari gusohokamo abantu bambaye umupira usa ubururu.

Kwa muganga hageretse rimwe, hasize irangi ry'umweru, amadirishya asa umukara, imbere handitseho amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, hanze hari ibitambaro bimanitse.

Kwa muganga hari ibitanda bibiri bifite ibara ry'ubururu, hari n'amarido y'umweru na parafo isa umweru, hari amamashini abiri akurikirana, hari n'akameza kari hagati gatandukanya igitanda n'ikindi n'amakaro asa umweru.

Inzu ifite irangi ry'umweru, ifite amabati y'umutuku, hanze hari ibyatsi, hari n'ibiti, hakurya hari imisozi ibiri ikurikirana, hanze hahagaze abantu babiri, hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inzu isize amaranjye y umweru no mu mpande

Icyapa kinini cyanditseho amagambo y'umweru, mo imbere harimo umuhanda utambika ujya yo, hari n'amatara abiri maremare, harimo n'amazu, hariho n'inzu ifite amabati y'ubururu.

Abantu babiri bari kumwe, umwe uri gukora siporo n'uri kuyimukoresha, uri gukora siporo yambaye isaha y'umweru, yambaye n'umupira w'umukara, yambaye ikabutura y'umweru irimo ibara ry'umutuku, uri kuyimukoresha yambaye umupira w'umukara, yambaye n'akantu k'umukara ku kaboko, inyuma yabo hari ibara risa umweru ku gikuta,...

Abantu babiri bari kumwe, umwe ari gukora siporo, yambaye umupira w'umukara, undi uri kumufasha mu myitozo, yambaye imyenda y'ubururu n'akantu kamugaragaza k'umweru, ari gukoresha agatambaro gakweduka gasa umuhondo.

Amacupa atatu ateretse mu ibara ry'umweru afite ibara ry'ubururu yanditseho amagambo imbere yandikishije ibara ry'umweru, hejuru hariho umutuku wanditseho amagambo asa umweru harimo n'umuhondo, abiri arapfundikiye rimwe rirapfunduye.

Abantu babiri bari kumwe, umwe wambaye isengeri y'umutuku, imbere hariho ibara ry'umweru ryanditseho imibare yandikishije umukara, ufashwe n'undi wambaye icyatsi, wambaye na ga, bigaragara ko amurandase, amujyanye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, uri kwimenaho amazi, ufite icupa ririmo amazi ribonerana, yambaye n'akantu ku kaboko gasa move, inyuma ye hari umusozi ufite ibara ry'umukara, hejuru ibicu bisa umweru.

Umukobwa uri gukora siporo uzamuye amaboko hejuru wambaye isengeri y'umweru na kora isa ubururu, inyuma ye hari igikuta gisize irange ry'umweru, arigukorera ku gatapi k'umukara, hirya ye hateretse ivaze irimo ururabyo rw'icyatsi hari n'icupa ry'amazi.

Umukobwa uri gukora siporo, wambaye isengeri y'umukara, wambaye n'ipanataro isa umukara, irimo ibara ry'umweru, no kuri tapi isa umukara, imbere ye hari imashini, ku ruhande hari ibimufasha gukora siporo, hateretse n'icupa ry'amazi.

Abantu babiri bari kumwe, umwe ari gukora siporo, yambaye umupira w'umweru, yambaye n'umukandara w'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, undi uri kumufasha yambaye imyenda y'ubururu, inyuma yabo hari amadirishya asa umweru.

Amacupa asa umuhondo ari mu ikarito afite umufuniko wa shokora, ku ikarito handikishijeho amabara y'icyatsi, ku icupa handikishijeho amabara ya shokora, hariho n'ikibabi gishushanyijeho cy'icyatsi.

Umuganga ufashe ibinini mu ntoki, hirya afashemo igipapuro kivamo ibinini, ahandi afashe ibinini bitatu. Yambaye itaburiya y'umweru, ashyize amaboko ku meza y'umweru. Inyuma ye hari irangi risa umweru.

Imiti myinshi igiye itandukanye harimo isa umweru hari n'agasekuru gasa umweru harimo imiti y'icyatsi, ku ruhande hari ibibabi by'umuti bisa icyatsi, hirya hari ibibabi by'umuti bifite ibara ry'umuhondo.

Amacupa abiri ateretse ahantu hari ibara ry'umweru buri cupa risa umweru hariho ibara ry'icyatsi n'amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi hejuru hariho ibibabi bisa icyatsi byanditse kuri iryo cupa handitseho n'amagambo y'umukara.

Igiti kiri mu ishyamba mu byatsi, hejuru hari ibara ry'ubururu, hirya hari ibara ry'umweru. Harimo ibyatsi, hari n'ibiti bibiri biri ku ruhande n'ikindi kimwe cyegeranye n'iki giti.

Igicupa kinini gifite umufuniko usa umuhondo, hapfundikijeho ishashi inyuma, hariho igipapuro kuri iryo cupa, rifite ibara ry'umweru, ryandikishijweho amagambo y'umukara, hariho ishusho y'ibiti bisa icyatsi.

Ibibabi by'umuti usa icyatsi hirya hari indabo zisa umuhondo hari n'udusa umutuku hari n'ibyatsi, hirya hari ibara risa umweru ririmo ibiti byinshi bikiri gukura.